Aba bantu barimo gushaka amafaranga yo kugira ngo biteze imbere bahinga, bakajya gufatanya hamwe bose, bakajya mu mashyirahamwe.

Aba bari mu mahugurwa. Bajya bafasha abantu mu buhinzi kandi bagasarura umusaruro, bakawujyana mu isoko bakaba bakiteza imbere.

Uyu muntu ajya atera umuti mu bihingwa kandi ibihingwa bikera, akabona umusaruro ajyana ku isoko, akabona ubuzima.

Ifi iraryoha, kandi ifi ifite intungamubiri, kandi ijya ivura bwaki.

Amafi ajya aryoha kandi aravura, kandi ni ibiryo by'intungamubiri cyane, birajya bidufasha mukukubaho mu buzima bwacu.

Aya ni amafi aba ahiye ajya aryoha, kandi tukayakunda, kandi buri wese akayarya, akayarya, akagira ubuzima bwiza, kandi akabaho.

Jya wikundira kwirira imbuto nkizi ziraryoha, kandi ntawe utazirya akagira amagara mazima n'ubuzima.

Iki giti ni umubirizi. Umubirizi ujya uvura. Uvura indwara zitandukanye. Iki giti ni ingirakamaro kandi mu buzima gifasha abaturarwanda mu kubavura.

Njya mbona ubu butaka bwera, kandi bahingamo imyaka itandukanye, haba ibigori n'ibirayi bijya biryoha tukabirya.

Aba bahinzi borozi bafite isambu bajya bahingamo ibirayi, ibirayi byakwera bakabirya bakajya no mu isoko bakagurisha.

Jya ukunda guhinga imbuto. Indabo zituma tugira umwuka tukajya duhumeka neza, kandi tukabaho ubuzima bwacu.

Urutoki rujya rwera rugateza imbere abantu bakagira iterambere, bakajyana ibitoki ku isoko.

Aya matunda araryoha, kandi imbuto zituma tujya tugira ubuzima bwiza, tukabaho n'ubuzima buzira umuze.

Uyu ni umuhinzi mworozi, ajya ahinga urusenda, kandi akatwigisha uburyo ki twakwita ku bihingwa, tukajya tubonamo amafaranga yo kwifashisha.

Ndabona uru rubuto rw'avoka ruteye amabengeza, kandi tujya tuzirya. Ni urubuto rugira ubuzima, tukagira ubuzima bwiza.

Ndabona inka za kijyambere zijya zitanga amata, kandi zikabaho mu buryo bwiza.

Ibigori bijya biryoha n'ubwo wabirya ari bibisi cyangwa se ukabijyana mu isoko bakaguha amafaranga yo gukoresha ibindi, ukajya gushakamo ibyakubeshaho.

Iki ni igihingwa cy'urutoki, igitoki cy'inyamunyo kijya kiryoha kandi kigakundwa cyane, mu buryo bujya bushoboka bwose.

Aba mubona hano ni abahinzi borozi, barimo kwiga uko bajya babona imbuto zitandukanye kandi bagahinga ku buryo bwa kijyambere.

Mbega umuhinzi! uyu ni umuhinzi wa kijyambere, arimo gusarura imbuto y'ibigori, kandi ajya abijyana mu rugo, akabibika, akazabihungura, akabijyana mu isoko.

Ibirayi biraryoha. Ibirayi bikorwamo ifiriti biraribwa cyane birakundwa.

Iki ni igihingwa cy'imyumbati, imyumbati zijya zivamo ubugari kandi zijya ziryoha.

Avoka ziraryoha kandi ni igihingwa cyera cyane, kandi turagikunda twese. Turagihinga ahantu hose hatandukanye.

Ibijumba ni igihingwa gihingwa kigakundwa n'abana, abagore, n'abagabo, n'abandi bose, kandi bakajya mu isoko bakabigurisha.

Uyu muhinzi ajya abyukira mu murima buri munsi agakuramo ibyatsi, kandi igihingwa cye cyakwera akakijyana mu isoko bakamuha agafaranga.

Mbega umuhinzi mworozi! Ajya ahinga akabona agafaranga, kandi imbuto tukazirya zikaryoha, na we akagenda agashakamo ibindi bimutunga.

Ndabona izi avoka ziri mu muri pakaji, ariko zigomba kubyara agafaranga abaturage bakiteza imbere.

Aba bantu bagiye gusoroma icyayi, kandi kijya kiryoha, kikavamo n'amafaranga, bakajya bayaguramo ibyo kurya.

Imyembe iraryoha kandi ishya ari imbuto nziza, abantu barayikunda, kandi ikavamo agafaranga kabateza imbere.

Njya mbona urusenda ruhingwa kandi rukera, kandi abantu bakarukunda bakiteza imbere, bakarujyana no mu isoko kandi tukarurya rukaryoha.

Aba bahinzi bajya bahinga ibirayi kandi bakiteza imbere, kandi bose bagahingira hamwe kandi bagasarura umusaruro, bakawujyana ku isoko.

Mbega amateke ajya aryoha cyane kandi nta n'umuntu utayakunda, ndabona rwose amateke hari ukuyahinga tukayahinga, turayahinga kandi bikagenda neza.

Amajeri ajya araryoha kandi abantu barayakunda, kandi bakayateka bakayavanga n'ibindi biryo biryoshye, bakabirya bagahaga.

Uyu mukobwa ajya avura ibihingwa kandi bikera. Kandi na we agahembwa agafaranga gatubutse, akiteza imbere.

Mbega ibirayi! Bijya biryoha wabitetse agafiriti, ukanabirya mu buryo butandukanye, ibirayi biraryoha cyane, kandi bigira n'izindi ntungamubiri.

Inyanya ziraryoha, uriya ni umuhinzi w'inyanya kandi inyanya zijya zigira isosi iryoshye, irakundwa cyane.

Uyu muturage afite imyumbati, ayijyanye mu isoko kugira ngo abone amafaranga. Ndabona ameze neza, kandi ajya yiteza imbere.

Uyu mwumbati ndabona umeze neza, bawujyanye ku isoko, kandi barabaha amafaranga, bitezembere, babeho neza, uko bimeze.

Iyi mbuto ni indobanure, ijya yera ikera ahantu hatandukanye, kandi abantu bakayikunda bakabona amafaranga yo kubateza imbere.

Ndabona uyu muntu afata ikawa, ndabonaka ya kawa imeze neza kandi mu buryo bwiza bumeze neza, ntawutayihinga, umuturarwanda wese yayihinga.

Njya mbona iki kigo kibika imyaka, abaturage bajya babika imyaka kandi bakayisarura bakiteza imbere.

Imbuto ndabona ziri kwera kandi imbuto turazikunda tukanazirya, tukabaho mu buzima bwa buri munsi bikadufasha.

Aba bamama bari kurobanuramo amabuye muri iyi mbuto y'ibigori. Kandi nibarangiza bazabijyana mu isoko, kugira ngo babahe amafaranga.

Ibigori bijya biryoha tukabirya kandi tugahaga kandi tukabijana mu masoko tukabonamo amafaranga tukiteza imbere.

Muri girini hawuzi， bahingamo ibihingwa bitandukanye， kandi bahingamo kijyambere. Muri girini hawuzi，tujya duhingamo ibintu bitandukanye.

Tujya dukora ubusitani, kandi ubusitani buba ari bwiza, buri muturage wese iyo ahageze, abona bimeze neza muri ubu busitani, bikamushimisha.

Mbega imbuto ziryoshye! Imbuto rwose ziraryoshye, zijya ziryoha, buri wese akaryaho, kandi akumva ubuzima buri kugenda neza, akabaho akagira agafaranga kamuteza imbere.

Iki kimera kijya gikura, kandi ikimera kijya kiduha umwuka duhumeka. Ubwo rero tukabaho duhumeka umwuka mwiza.

Uyu muntu ari gusarura tungurusumu, kandi tungurusumu zijya zivamo umuti, kandi umuti ukavura abantu mu buryo butandukanye

Uyu ni umushoferi apakiye umusaruro w'abaturage, ajya awujyana kuwugurisha bakamuha amafaranga, na we akaza akishyura abaturage agafaranga bakabona na bo kubaho.

Iki ni igihingwa cy'ibigori, kijya cyera abantu bakakijyana mu isoko, kandi tukabonamo amafaranga atubutse, tukiteza imbere.

Ubunyobwa bujya buryoha mu biryo, kandi bukajya bugira n'isosi nziza tukayirya, ubuzima bugakomeza. Kandi ubunyobwa tujya tubujyana mu isoko, tukabona amafaranga.

Iyi mubona ijya ivura uburwayi butandukanye, tungurusumu , kandi tujya tuyirya no mu biryo turya, bya buri munsi.

Ingano ziraryoha, buri wese akaziryamo umutsima, kandi tujya tuzifashisha mu buzima busanzwe.

Mbega amagi ! aya magi araryoha kandi tukayaryamo umureti ukadufasha mu buzima kubaho, umworozi akajya nawe abona amafaranga yo gukoresha mu zindi gahunda.

Inka zijya zitera amahane, bisaba kugira ngo uzitire kandi zigume hamwe, uzifatire hamwe, uzikusanye kandi ujye unazikurikirana mu buryo bwose, wajya uziha ubwatsi ukazihera hamwe.

Inkoko itera amagi, amagi tujya tuyarya kandi amagi araryoha, buri wese arayakunda kandi tukajya tubona n'intungamubiri zihagije.

Inka ni nziza cyane, itanga umukamo w'amata akanyobwa, kandi...

Mbega ibibwana! izi ngurube zijya zirya ibyatsi, yewe n'umworozi wa zo akazitaho. Bityo akabona agafumbire, kakamufasha mu guhinga.

Umuganga arimo kuvura iyi nka, kandi yizeye ko iraza gukira mu kanya. Ndabona iyi nka rwose imeze neza ntabazo, ariko barajya kuyifata bose igasimbuka.

Izi nkoko zijya zitera amagi, amagi tukayarya kandi tukanazirya, tukagira ubuzima buzira umuze. Kandi tukabaho neza.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko, inkoko zijya zitanga amagi, amagi akavamo umureti, kandi zikanaribwa cyane.

Izi ni dendo zijya gutoragura, gutoragura ibyo kurya n'ibindi byose zikirira, kandi zikabaho, kandi tujya tuzirya, natwe tukagira ubuzima bwiza.

Ndabona iki kiyongoyongo, kiri gushaka gufata amafi kandi gishobora kujya kiyabona, ndabona kizabaho neza kubera uburyo gishaka gufata amafi.

Aka gasimba kajya gacukura ibitaka, kagacukura umwobo kakinjiramo kakawuseseramo kakihishamo.

Iki kinyoni gishaka kurya izindi nyoni, kandi na cyo ari inyoni ubwo rero kirazitegereje.

Ikinyamaswa kirimo kiroga, kandi ndabona gishobora gufata n'ifi kikarya. Ubwo rero ndabona kimeze neza, mu byo kiri gukora. Ndabona rwose kiri mu nzira nziza kizajya gifata ifi.

Mbega ikiyongoyongo! Kijya kirya inzoka, kikanarya n'ibindi bitandukanye, kandi kikabaho gifite ibindi bijya binaguruka.

Izi dendo zibona icyo kurya kandi zijya zitanga amafaranga, amafaranga abaturage bayabona bakiteza imbere mu gukora gahunda zabo.

Intare irya inyama kandi irazikunda, kandi iranazihiga mu ishyamba, kandi ikazifata, ikica inyamaswa ikazirya mu ishyamba, kandi igatungwa n'inyama ikazirya.